Uburezi mu Rwanda, mu buryo bwo gufasha abanyeshuri, babashakiye ahantu bakora ibikorwa baba bize bakoresheje ibikoresho byabugenewe. Ibingibi bituma ubumenyi bwabo bwiyongera, mu gihe kizaza bakazagirira igihugu cyacu akamaro.

Uburezi mu rwanda bwashyizeho amashuri afasha abana kwiga ku bijyanye no ku buzima bw'umuntu, bakunguka ubumenyi bityo bigatuma bamenya kurinda ubuzima bwabo, bakabusigasira, kandi bagahugura n'abandi bantu, bigatuma turushaho gukomeza kugira ubuzima bwiza, tukabaho neza cyane.

Mu bigo by'abana bato haba hari ibikinisho abana baba bari gukiniraho igihe batari kwiga bari kuruhuka, abana baba bishimye cyane kubera ko baba bari gukinana bose hamwe.

Akabati kadufasha kubika ibikoresho kugira bitangirika cyangwa ngo bigire ikibazo. Kandi abantu badukora baratugurisha bakabona amafaranga, bakayakoresha mu bindi bikorwa baba bagomba gukora.

Uburezi mu rwanda bushishikariza ibigo by'amashuri, kwigisha abana indangagaciro z'umuco nyarwanda, ndetse nimyitwarire myiza kugira ngo bakure bafite ubwenge, no gukunda igihugu.

Mu myaka yashize wasangaga mu bigo by'amashuri abanyeshuri batabona aho bicara n'aho bakurikiranira amasomo ya bo, ariko ubungubu kubera ubuyobozi bwiza bwegereye abaturage, abanyeshuri, abana b'abanyarwanda babona aho bicara, kandi bakurikira amasomo ya bo neza cyane ibingibi bigatuma u Rwanda rukomeza gutera imbere cyane.

Hari ahantu haba ibikoresho n'ibikinisho abana bakoreshaga bari gukina. Haba n'ahantu mbarira naho kuryamira.

Ubu ngubu mu rwanda mu burezi, bari gushishikariza abana b'abanyarwanda kwiga imyuga . Kubera ko ituma babona amafaranga menshi cyane mu gihe gito bakiteza imbere.

Leta y'u Rwanda igira inama abangavu n'abategarugori kujya kwiga imyuga no kwihangira imirimo, kuberako bibarinda kujya mu ngeso mbi nk'ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge, ibingibi bituma babaho neza cyane.

Imirimo y'amaboko no kwihangira imirimo ni byiza cyane kubera ko bifasha ubukungu bw'igihugu kwiyongera cyane, kandi bigatuma n'ababikora babaho neza cyane, bakagira amafaranga.

Mu bisilamu abagore batega ibitambaro mu mutwe cyangwa bakabyitandira, kugira ngo bahishe umusatsi wabo n'umutwe kandi bagomba kubyubahiriza kuko umuntu utabyubahiriza baramuhana.

Kwihangira imirimo no kwiga imyuga ku rubyiruko ni byiza cyane, kubera ko bibarinda kujya mu ngeso mbi no kunywa ibiyobyabwenge. Kandi ibi bituma babona amafaranga igihe baba barangije kwiga, n'igihugu kigatera imbere cyane.

Kwiga amashanyarazi na byo ni imyuga urubyiruko bahora barushishikariza kwiga, kubera ko ari byiza cyane bituma iterambere ry'igihugu cyacu, n'ubukungu burushaho gukataza cyane.

Ubu ngubu mu bigo by'amashuri usanga bifite mudasobwa , ifasha abanyeshuri kurushaho kongera ubumenyi baba bahawe na mwarimu kandi bakagira ibitekerezo byiza cyane, bituma barushaho kwiga bakagira ubwenge kandi bakazaba abantu bakomeye mu gihe kizaza.

Imbaho zituma abantu babona amafaranga menshi cyane, kandi imbaho bazikoresha bari kubaka ikiraro cy'inka, kugira ngo zimererwe neza.

Mu burezi abanyeshuri bagira umwanya bagatembera bakiga n'ibindi bintu bituma bwa bumenyi bwabo burushaho kwiyongera cyane, ibingibi ni byiza cyane kubera ko bifasha igihugu, kugira abana bafite ibitekerezo n'ubumenyi buzatuma igihugu kirushaho gutera imbere cyane.

Uburezi mu Rwanda bushishikariza urubyiruko kwiga imyuga no kwihangira imirimo nko gufotora, kubaza n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, kubera ko bituma babona akazi mu gihe gitoya kandi vuba bakagira amafaranga menshi kandi bigatuma ubukungu bw'igihugu burushaho gukataza cyane.

Abakozi bo mu ruganda baba bambaye ibisarubeti by'ubururu, cyangwa irindi bara. Baba bambaye ingofero za purasitike, baba bari gukora ibikorwa byo muri urwo ruganda, cyangwa n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ubungubu urubyiruko n'abanyarwanda barasobanukiwe neza ibyiza byo kwihangira imirimo no kwiga imyuga kubera ko bibaha akazi mu gihe gito cyane bakabona amafaranga menshi cyane kandi bagatuma ubukungu bw'igihugu bukataza cyane.

Mu Rwanda uburezi bushishikariza urubyiruko kwiga imyuga, kubera ko imyuga ituma babona akazi mu gihe gito, bakabona umusaruro mwinshi cyane. Kandi imyuga ituma ubukungu bw'igihugu bukataza cyane.